Ahantu bakora udutebe ni heza cyane, cyangwa aho bakoze ubukwe bakodesha intebe, bagakoresha ibintu byose ugasanga bahatatse, ubukwe bwabaye abantu batashye bishimye, cyangwa ahantu bakora intebe ugasanga bakoze udutebe twiza twabugenewe.

Butike cyangwa isoko ni byiza cyane, abantu barabikunda kuko ushaka icyo ubona ukakigura. Usangamo: indobo, imyenda inkweto, amasafuriya, udukapu twiza twabigenewe.

Ibikorwaremezo ni byiza cyane usanga ahantu byubatse hagaragara neza cyane, kuko abantu baje gushakiraho icyo bakeneye, hari butike nyinshi, urashaka icyo ubuze muri butike, ukajya kugishakira ahandi kuko abantu baba barahakoze ibikorwa byiza cyane.

Butike ni nziza cyane, abantu barazikunda kuko bajya guhahiramo bakabonamo ibyo bakeneye, waba ushaka gaze ukayibona, waba ushaka ibintu byo muri butike bishoboka ukabibona, ibyo guteka n'ibindi byinshi bitandukanye.

Inzu zigeretse, abantu barazikunda cyane kubera ko aba ari nziza. Ukabona umuntu yayikunze, kwitegereza ati: "Iriya nzu, uwayimpa." Ukabona umuntu ari kwisetsa ati: "Umuntu ufite iriya nzu ni umukire." Wagera hirya ukayibona, bikaba ngombwa yuko uyitegereza kubera uba utayizi.

Butike ni nziza cyane, abantu barayikunda, usanga nk'abantu bari kujya guhahira yo, cyangwa bari kugurirayo imyunyu, ibintu biri muri butike ni ibintu byinshi bitandukanye.

Ibikoresha byabugenewe ni byiza cyane, abantu barabikunda kuko babigura bakabicurangisha, ugasanga umuntu aracuranze bamuhaye amafaranga, arebye n'ubukwe atashye yishimye cyane.

Inzu yubatse neza iba igaragara neza cyane, usanga nk'abantu bo mu cyaro baba bari kuyicaho bakayitegereza, bati iriya nzu yubatse neza, cyangwa abandi bati uriya muntu ni umukire bitewe n'inzu yubatse, bitewe n'amafaranga afite.

Butike ni nziza cyane, abantu barazikunda, ubwo umuntu agiye gushakiramo ibyihutirwa, aragituma, pampa, umunyu, ibintu byinshi bitandukanye, kuko twese ntidukenera ibintu bimwe, buri muntu icyo ashaka, akaba yagituma umwana muri butike, cyangwa nawe akigirayo.

Ibinyabiziga ni byiza cyane, abantu barabikunda, kuko nk'iyo umuntu ashaka gutumiza ikintu ahantu atagikura, ni ugutumiza imodoka, Kandi usanga ari ukunyura ahantu habigenewe hagari, asanga n'abantu bari kuhacururiza, ku buryo yava mu modoka, akajya kugura icyo ashaka.

Butike ni nziza cyane abantu barazikunda cyane, abantu barazifashisha, iyo umuntu agiye guhaha, agatuma umwana, umwana akagenda akamuzanira ibintu hariya akeneye, ugasanga biramubangukiye, abibonye vuba vuba, kuko butike ziba ziri hafi ye.

Udusantere ni twiza cyane usanga bateretse avoka abantu bakajya bajya kugura, bakabaha amafaranga na bo bakaba avoka, abantu bagataha bishimye yuko baguze voka nini kandi ziryoshye cyane.

Butike ni nziza cyane abantu barazihahiramo bakaniyakiriramo, ugasanga abantu bameze neza kubera ko baba bafite amafaranga, ugasanga umuntu arayitabaje ugasanga aragiye arahaze mu buryo bushimishije.

Inzu ni nziza cyane, ubona inzu yubatse neza cyane bitewe n'uburyo yubatsemo abantu bakayiteramo uturabo, ugasanga hasa neza cyane kuburyo mu nzira hahanyuramo n'ikinyabiziga bitewe n'icyo ari cyo.

Imihanda ni myiza cyane, abantu barayikunda, kuko bayinyuzamo ibinyabiziga, imodoka, amagare, moto, abantu banahaturiye, ku buryo batapfa kubura imodoka bagiye ahantu.

Isoko ni ryiza cyane, abantu bajya guhahiramo, harimo ibyo ukeneye byose, ugasangamo amapera, amateke, indimu, imineke, ugasanga ibyo wifuza byose birahari.

Isoko ni ryiza cyane abantu bararikunda cyane, kuko bajya kurihahiramo bakabikuzamo n'amafaranga, bakaguriramo n'imyenda, bakaguriramo n'inkweto, bakaguriramo n'ibyo kurya. Ugasanga batashye bishimye kuko baguze ibintu bihendutse.

Amatungo yo mu rugo ni meza cyane, abantu barayakunda cyane, kuko bayorora bakabona inyungu, bakajyana mu isoko bakabaha amafaranga menshi, bagataha bishimye cyane y'uko babonye amafaranga menshi.

Isoko ni ryiza cyane, usanga abantu bari kujya kurihahiramo nk'aho harimo imiteja, pavuro, inyanya, ibitunguru, ibidegede, ibigori, iminzani, ibintu byinshi cyane.

Isoko ni ryiza cyane. usanga abantu bari kurirema bari gushakamo ibyo kwiyorosa, ibyo kuraraho, imyenda, ukabibona byiza cyane bikubereye, urugero rwose ushaka, ugataha wishimye ko waguze imyenda myiza cyane, ukayambara, ukayereka abandi bantu, ukagenda mu nzira uri ku...

Indagara ni nziza cyane ,abantu barazikunda nko kuzigurira abana bakazibashyirira mu biryo, umwana akarya intungamubiri ,mu mubiri we ugasanga umwana akuze neza ntabuzima bubi yanyuzemo.

Isoko ni ryiza cyane, abantu bararikunda, ugasanga bagiye guhahamo, ibirayi, ibijumba, igitoki, amavuta, ibintu byinshi bitandukanye, abandi bakabizana ku magare.

Isoko ni nziza cyane, usanga abantu barimo, harimo abacuruza amayinite bakanabikura, ugasanga abantu barikubagurira, cyane cyane ahantu ho mu mugi, nihusanga hari abantu benshi, kuko abantu bose, bo mu mugi, baba barahaha.

Isoko ni ryiza cyaneee, abantu bararikunda kuko iyo ugiye gushakamo umwenda, urayibona, igukwiriye, ishimishije neza, ikubereye. Urugero rwose ushaka, utaha wishimye, unezerewe!

Butike ni nziza cyane. Usanga ifite udufanta, utunuza twaciyemo uruganda, mbega ugasanga bari kutugurira abana batsinze amasomo, abana bari yishimye, umwana wakamugurira agataha afite umwete wo kwiga, ati "bazongere bangurire ka kantu kari karyoshye".

Isoko ni ryiza cyane, abantu bajya gushakamo imyenda, bagasangamo urugero rwose rubabereye, ugasanga batashye banezerewe kuko babonye imyenda myiza. Yaba umuntu mukuru, yaba umusaza, yaba umwana, agasanga abonyemo urugero rwose rumubereye. Inkweto, imyenda, ibintu byose ugasanga birimo.

Umusuru ni mwiza cyane. Abantu barawukunda kuko ahantu hera amasaka ,ari wo bakunda gushigisha, ugasanga uri kugura amafaranga make, abantu bari kuwugura ku bwinshi. Ufite udufaranga dukeya akaba ari wo ajya kwigurira imyoti imwishe.

ibishyimbo ni byiza cyane, usanga abantu bari ku bitonora bakabishyira ku nkoko, bakabigosora bakabishyira mu masafuriya, bakabironga, bakabiteka bakarya bagahaga, bugacya mu bitondo bakajya gushaka ibindi.

Isoko ni ryiza cyane usanga abantu bari gucuruza imyenda bayambitse abantu batagira umutwe w'ibishushanyo kugira ngo nuwushima uwugure kugira ngo bafate n'abakiriya neza, ukagenda ugatoramo umwenda ushaka kuko urugero rwose ushaka ruba ruhari.

Inzu ni nziza cyane, abantu bazifite baba bubashywe cyane, kuko wazicururizamo cyangwa ukazibamo, ikintu cyose cyaguha, amafaranga ukaba wagikoreramo, ubundi ukabona agatunga umuryango, ukakarihira n'abana bakiga bakarangiza.

Isoko ni ryiza cyane abantu bararikunda, Kuko nk'iyo ugiye kuguramo ikanzu cyangwa imyenda isanzwe, usanga ihendutse cyangwa ihenze ari imyenda myiza cyane, ukayishyura amafaranga ufite nawe ugacyura umwenda mwiza.

Butike ni nziza cyane abantu barazikunda nk'ahantu bakorera imbabura, usanga ari ahantu heza cyane hatuma abantu barya. Bakora imbabura za make, bakazishyiramo amakara, bagateka bakarya, kuko nta mbabura zihari nta bwo batekesha amakara, byasaba gutekesha gaze n'inkwi.